Icyumba cyagenewe gukorerwamo inama harimo intebe z'umukara zo kwegamwaho hicayemo abagabo babiri n'umugore umwe, imbere y'abo hateretse uducupa tw'amazi y'inyange ndetse na mudasobwa.

Imbaga y'abantu benshi bambaye amakote ndetse n'imikenyerero ya Kinyarwanda havanzemo abagabo n'abagore, bahagaze ku murongo barimo barafata ifoto imbere y'inyubako ndende cyane.

Abagabo batandukanye bambaye imyenda itandukanye hari abambaye amakoti ndetse n'amapantaro bisa, harimo abambaye amadarubindi bahagaze ku murongo bari gufata amafoto.

Icyumba gisizemo amarange y'umweru, harimo imeza nini izengurutswe n'intebe z'umukara zo kwegamwaho, hicayemo abantu batandukanye bavanzemo abagabo n'abagore, ku meza imbere yabo hateretse amacupa y'amazi y'inyange.

Icyumba gisize amarangi y'umuhondo, harimo intebe z'umweru, zicayeho abantu benshi bavanzemo abagabo n'abagore ,mo hagati yabo hahagaze umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara.

Ihema ry'umweru ririmo intebe z'umweru hicayemo abantu benshi bavanzemo abagabo n'abagore, imbere yabo hari akameza kariho igitambaro gisa n'icunga, imbere yabo kandi hahagaze umugore wambaye imyenda y'ubururu n'umukara, afite indangururamajwi.

Umugabo wambaye umupira usa n'icunga n'ipantaro y'ikoboyi y'ubururu afite indangururamajwi y'umukara iruhande rwe hari ihema ritatseho amabara y'ubururu, umuhondo, ndetse n'icyatsi hicayemo imbaga y'abantu benshi bavanzemo abagabo n'abagore.

Abagabo babiri bose bambaye amadarubindi n'amashati bicaye ku ntebe z'ibyuma imbere yabo hari imeza iteguyeho igitambaro cy'umweru hateretseho uducupa tw'amazi yo kunywa.

Icyumba cyagenewe gukorerwamo inama kirimo ameza y'umutuku, azengurutsweho n'intebe z'umukara zo kwegamaho, hakaba hicayemo abantu batandukanye bavanzemo abagabo n'abagore imbere yabo hari mudasobwa.

Abantu bavanze harimo abagabo n'abagore bambaye imipira y'ubururu bicaye ku ntebe z'umweru ziri mu mahema imbere yabo hakaba hari imeza bahagaze bari gukoma amashyi.

Abagabo bicaye ku ntebe z'umukara bambaye amakote, imbere yabo hari akameza gateretseho uducupa tune tw'amazi y'inyange. Bakaba bari mu nama y'inteko rusange y'abafatanyabikorwa by'Akarere ka Gasabo.

Icyumba cyagenewe gukorerwamo inama, harimo ameza manini cyane, afite ibara ry'umutuku ndetse n'intebe z'umukara zo kwegamwaho, hicayemo umugabo wambaye ikoti, hirya ye hicaye undi wambaye ikoti ry'ubururu ndetse n'umupira w'umuhondo.

Itenti y'umweru harimo intebe ziteguyeweho ibitambaro by'umweru, hicayemo abantu bavanzemo abagabo n'abagore, abenshi muri bo bambaye imipira isa n'icunga.

Icyumba gisizemo amarangi y'umuhondo cyagenewe gukorerwamo inama hicayemo abagabo batandukanye ndetse n'abagore, abagabo bambaye amakoti y'umukara ndetse n'amashati y'umweru imbere yabo hari imeza iteretseho mudasobwa.

Umugore wirabura wambaye ishati y'umukara ndetse n'ipantaro isa n'igitaka, ahagaze imbere y'imbaga y'abantu bavanzemo abagabo n'abagore, yambaye amadarubindi afite n'indangururamajwi mu ntoki.

Icyumba gikorerwamo inama kicayemo abantu benshi harimo abirabura n'abazungu hakaba harimo umwirabura wambaye ikoti ry'umukara, ishati y'umweru na karovate y'umutuku, afite igitabo gisa icyatsi mu ntoki ze, hirya ye hicaye umugabo w'umuzungu ndetse n'umugore w'umuzungu.

Icyumba cy'inama kirimo intebe z'umukara ndetse n'ameza akoze uruziga, harimo abagabo batatu bicaye ku ntebe imbere yabo hari amazi ari mu ducupa tw'inyange hanateretse mudasobwa.

Icyumba gisize amarangi y'umuhondo n'umweru gikorerwamo inama, kikaba kirimo intebe z'umukara zegamwaho, imbere hicaye abantu b'abagabo n'abagore bamwe bambaye amakoti, imbere yabo hari imeza iteretseho ibitabo ndetse n'amacupa y'amazi y'inyange yo kunywa.

Icyumba gisize amarangi y'umweru harimo n'amarido cyagenewe gukorerwamo inama harimo ameza manini azengurutswe n'intebe z'umukara hicayeho abagabo n'abagore batandukanye imbere yabo hari isakazamashusho.

Abagore babiri, umwe yambaye igitambaro yikwije, undi nta kintu yambaye mu mutwe, bose bambaye amadarubindi y'umukara, bicaye ku ntebe zo kwegamwaho zisa n'umukara, imbere yabo hari ameza ateretseho agacupa k'amazi na mudasobwa.

Icyumba cyagenewe gukorerwamo inama kirimo ameza manini ndetse n'intebe z'umukara zo kwegamwaho, hicayemo abagabo n'abagore bambaye bitandukanye, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa y'Inyange.

Icyumba cyagenewe gukorerwamo inama gisize amarangi y'umweru harimo n'amarido, hakaba harimo intebe ziteguyeho ibitambaro by'umweru n'ameza ateguyeho ibitambaro by'mweru, hicayemo imbaga y'abantu harimo abagabo n'abagore ku meza hateretseho amacupa y'amazi.

Icyumba kirimo intebe nyinshi cyagenewe gukorerwamo inama, harimo abantu benshi batandukanye havanzemo abagabo n'abagore, imbere yabo ku ntebe bateretseho mudasobwa zabo.

Icyumba cyagenewe gukorerwamo inama gishyizemo irangi ry'umweru harimo amarido hakaba hicayemo imbaga y'abantu benshi bavanzemo abagabo n'abagore, imbere yabo hari imeza iriho igitambaro cy'ubururu n'umuhondo hateretseho uducupa tw'amazi yo kunywa.

Abantu batanu harimo abagabo bane n'umugore umwe, bicaye ku meza hateretseho ibipapuro amakayi ndetse na mudasobwa, hateretseho n'uducupa tw'amazi hakaba harimo umugabo wambaye ikote na batatu bandi bambaye amashati umugore akaba yambaye amadarubindi.

Imbaga y'abantu benshi bicaye mu nzu isize amarangi y'umweru, bicaye ku ntebe z'umweru bambaye imipira isa ifite ibara ry'ubururu, harimo abambaye amapantaro y'umukara ndetse n'amapantaro y'ubururu, imbere yabo hahagaze umugore wambaye amadarubindi ikoti ry'ubururu ndetse n'umupira w'icyatsi afite indangururamajwi.

Umugabo wambaye ikoti ry'umukara ndetse n'ipantaro ya kake ahagaze imbere y'abandi bantu bicaye mu mahema y'umweru atatseho ibitambaro by'umuhondo ndetse n'umutuku afite indangururamajwi mu ntoki.

Inzu isizemo amarangi y'umuhondo ifite amadirishya n'inzugi z'umukara; hakaba harimo intebe zicaweho n'abantu benshi bavanzemo abagabo n'abagore bambaye amataburiya y'umweru.

Icyumba gikorerwamo inama, kirimo abagabo n'abagore bavanze, harimo n'abazungu, bicaye ku meza, imbere yabo hari za mudasobwa ndetse n'amacupa y'amazi yo kunywa.

Imbaga nini y'abantu bavanzemo abagabo n'abagore, bambaye imyambaro itandukanye bicaye ahantu hasize amabara y'icyatsi umuhondo n'ubururu, imbere yabo hari akameza gateretseho uducupa tw'amazi y'inyange.

Abagabo batanu ndetse n'umugore umwe bicaye ku ntebe z'umukara zegamwaho, imbere yabo hari imeza iriho ikayi n'amakaramu, hateretseho n'uducupa tw'amazi y'inyange yo kunywa.

Imbaga y'abantu benshi bavanzemo abagabo n'abagore, bicaye ku ntebe ziteguyeho igitambaro cy'ubururu bari munsi y'ihema ry'umweru, imbere yabo hari ameza ateguyeho igitambaro gifite amabara y'ubururu, icyatsi, n'umuhondo hateretseho amacupa y'amazi yo kunywa y'inyange.

Abantu batatu barimo abagabo babiri n'umukobwa umwe umugabo umwe yambaye amadarubindi n'umupira w'ubururu undi yambaye ingofero y'umukara n'ikoti risa n'igitaka umukobwa akaba yambaye ikoti ry'iroze bicaye imbere yabo hari ameza ateretseho amazi ari mu ducupa tw'inyange.

Abantu benshi bavanzemo abagabo n'abagore harimo n'abagabo babiri bambaye imyenda y'ubururu ya gipolisi yerekana ko ari abakozi b'u Rwanda b'abapolisi hari n'abandi bambaye imyenda isanzwe, bicaye mu ntebe z'umukara.

Umugabo wirabura wambaye amadarubindi, yambaye ikoti na karuvate n'ishati y'umweru, imbere ye hari indangururamajwi, amaboko ye yayatsikamije ku kabati k'umweru kariho inyuguti za RGB.

Abagabo babiri ndetse n'umugore umwe wambaye ikanzu y'icyatsi irimo utudomo tw'umweru. Hari n'undi mugabo wambaye ishati y'umukara afite indangururamajwi. Imbere yabo hari imeza iteguyeho igitambaro cy'umweru, hariho uducupa tw'amazi yo kunywa.

Icyumba gisize amarangi y'umweru gikorerwamo inama hakaba harimo intebe ziteguyeho ibitambaro by'umuhondo, hakaba harimo imbaga y'abantu benshi imbere yabo hicaye abantu bane harimo abagore batatu n'umugabo umwe, imbere yabo hari ameza ateguyeho igitambaro cy'umuhondo n'icyatsi hateretseho uducupa tw'amazi n'imitobe.

Imbaga yabantu benshi harimo abagabo nabagore, harimo abagabo bambaye ikote ndetse imbere yabo kumeza hateretseho mudasobwa n'amacupa y'amazi y'inyange yo kunywa.

Icyumba cy'inama gisizemo amarangi y'umweru, harimo ameza manini, harimo n'intebe zo kwicaraho, harimo abantu benshi bavanzemo abagabo n'abagore, imbere yabo ku meza hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Icyumba cyagenewe gukorerwamo inama kirimo amarangi y'umuhondo harimo intebe hicayemo imbaga nini y'abantu, harimo abagabo n'abagore ndetse n'abazungu imbere yabo ku meza hateretse ibikombe ndetse n'amacupa y'amazi yo kunywa.

Icyumba gikorerwamo inama gisize amabara y'umweru kirimo ibishushanyo bitandukanye, hicayemo imbaga y'abantu benshi biganjemo abagabo n'abagore, bamwe bambaye amakoti abandi bambaye bisanzwe, imbere yabo hari imeza ateguyeho igitambaro cy'umweru n'ikindi cy'umutuku, hateretseho uducupa tw'amazi y'Inyange yo kunywa.

Imbaga y'abantu benshi ivanzemo abagabo n'abagore, harimo abambaye amakoti y'ubururu ndetse n'amapantaro y'ubururu; ku ruhande rwabo hateretse amazi ndetse n'imitobe ku tumeza.

Inzu igeretse inshuro imwe yubakishijwe amatafari ya rukarakara, ikaba irimo intebe z'umutuku, hicayemo imbaga y'abantu benshi bavanzemo urubyiruko rurimo abahungu n'abakobwa bambaye bitandukanye ndetse bafite n'ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Icyumba cyagenewe gukorerwamo inama kirimo amarangi y'umweru n'umuhondo, harimo imeza nini ikikijwe n'intebe z'umukara zo kwegamwaho, hicayemo abantu benshi bavanzemo abagabo n'abagore, imbere yabo hari mudasobwa hanateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Icyumba kirimo amarido harimo n'abantu benshi bambaye imipira y'umweru havanzemo abasore n'abakobwa bicaye ku ntebe, imbere yabo hari imeza ziteretseho uducupa tw'amazi yo kunywa.

Icyumba cyagenewe gukorerwamo inama, hicayemo abantu benshi bambaye imipira y'ubururu, havanzemo abagabo n'abagore, imbere yabo hari umugore wambaye ikoti ry'umukara ndetse n'amadarubindi afite indangururamajwi.

Abaturage bicaye mu twatsi bavanzemo urubyiruko ndetse n'abasheshekanguhe, bicaye bari kumva amabwiriza hakaba hari abafitemo utubido ndetse n'abafite ibitiyo bigaragaye ko bamaze gukora isuku.

Umugabo wicaye mu ntebe yumweru yambaye ikoti ry'umukara, ipantaro y'umukara, karuvati y'umutuku n'ishati y'umweru, akaba yambaye amadarubindi y'umukara afite indangururamajwi mu ntoki ze.

Icyumba cy'inama kirimo abantu benshi bivanzemo abagabo n'abagore, harimo umugabo wambaye amadarubindi yambaye ikoti risa na kake, karuvati ndetse n'ishati y'umweru n'ipantaro ya kake.

Icyumba gikorerwamo inama harimo intebe z'umukara n'ameza, harimo abantu batatu harimo abagabo babiri n'umugore umwe wambaye amadarubindi ndetse n'ishati y'umukara. Imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa y'inyange.

Icyumba gisize amarangi y'umweru cyo gukoreramo inama; harimo intebe ndetse n'imeza z'umukara, hicayemo imbaga y'abantu benshi, havanzemo abagabo n'abagore, imbere yabo hari za mudasobwa ndetse hanateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Inzu yo gukoreramo inama irimo intebe z'umweru ndetse n'ameza ateguyeho igitambaro cy'umweru, isize amarangi y'umuhondo harimo n'amarido, hakaba hicayemo imbaga nini y'abantu bavanzemo abagabo n'abagore, imbere yabo hateretse amacupa y'amazi y'inyange ndetse na mudasobwa.

Icyumba cyo gukoreramo inama, kirimo intebe ziriho ibitambaro by'umweru hicayemo imbaga y'abantu nini, havanzemo abagabo n'abakobwa ndetse n'abagore, imbere yabo hari umudamu wambaye ikanzu y'umukara, afite indangururamajwi, bari kwizihiza umunsi w'ubukerarugendo.

Abantu benshi bambaye udupira tw'ubururu havanzemo abagabo n'abagore bicaye ku ntebe ziriho ibitambaro by'umuhondo imbere yabo hari ameza ariho igitambaro cy'umweru, hateretseho uducupa tw'amazi y'inyange, imbere yabo bantu hahagaze umugabo wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara na karuvati afite indangururamajwi.

Icyumba cyo gukoreramo inama kirimo abantu benshi, havanzemo abagabo n'abagore bicaye ku ntebe ziteguyeho ibitambaro by'umweru ndetse n'ameza ateguyeho ibitambaro by'umweru ateretseho amacupa y'amazi, imbere yabo hari umugabo wambaye ishati y'umutuku irimo uturongo ndetse n'ikoboyi afite n'indangururamajwi mu ntoki ze.

Umunara muremure cyane wubakishijwe ibyuma bisize amarangi y'umweru ndetse n'umutuku, umanitseho ibikoresho by'umweru biteye nk'ingoma bikoreshwa mu itumanaho.

Inzu yubakishijwe amatafari ya rukarakara, ikaba ifite imiryango myinshi y'ubucuruzi, hacururizwamo ibyo kurya, harimo nk'ibitoki ndetse na gaze, imbere yayo haparitse ipikipiki.

Ibara ry'ubururu ririmo ikirango cya rebu bisobanuyeb Rwanda bezike edikesheni bodi akaba ari ikigo gishinzwe kugenzura imyigire y'amashuri mu Rwanda.

Umuhanda uzwi nk'aho udacamo ibinyabiziga wagenewe abanyamaguru gusa, akaba ari umuhanda ukikijwe n'amazu maremare ageretse inshuro nyinshi akorerwamo imirimo itandukanye, harimo ubucuruzi bw'imyenda ndetse n'ubw'ibiryo n'ubw'ibindi bikoresho.

Abantu benshi bicaye ku ntebe, bavanzemo abazungu n'abirabura, bamwe bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga mu ntoki zabo, abandi bafite mudasobwa, bari kurebamo.

Harabura umunsi umwe. Menyenkanisha imisoro itaramenyekanishijwe mbere ya bibiri na makumyabiri na gatatu, ubundi ukurirweho amande ndetse n'ibindi bihano umunsi wa nyuma ni makumyabiri n'eshatu z'ukwa cumi bibiri na makumyabiri na kane.

Umunara muremure cyane ukozwe mu byuma bigiye bisobekeranyije bishinze mu butaka, ukaba wubakishijwe ibyuma bisizeho amabara y'ubutuku ndetse n'umweru, hejuru ku munara hakaba hariho ibikoresho bikoreshwa mu itumanaho.

Icyumba kirimo abantu benshi bavanzemo abagabo, n'abagore imbere yabo hateretse utubati turiho mudasobwa z'amabara y'umukara, ndetse inyuma yabo hari akabati yateretsemo ibitabo.

Harabura umunsi umwe gusa, umunsi umwe niwo ubura kugira ngo igihe cyo kumenyekanisha imisoro kirangire, ibuka kumenyekanisha no kwishyura imisoro yawe kubucuruzi bwawe, kugira ngo wirinde amande ndetse n'ibihano byo kutabikora.

Menyekanisha uyu munsi wishyure mbere y'itariki ntarengwa, uba ushobora kumenyekanisha avansi ya gatatu y'umusoro ku nyungu uyu munsi, ukazishyura mbere y'itariki ntarengwa, witegereza umunsi wa nyuma, itariki ntarengwa ni mirongo itatu n'imwe z'ukwa cumi nabiri bibiri na makumyabiri nari rimwe.

Minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo itangazo iminsi y'ikiruhuko rusange hashingiwe ku iteka rya perezida nimero mirongo itandatu na kabiri ryo ku wa cumi nicyenda'ukwa cumi na makumyabiribiri ryerekeye iminsi y'ikiruhuko rusangeinisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo iributsa abaturarwanda ibikurikira ku wa mbere tariki ya makumyashatu ukuza makumyabiri na kabiri ni umunsi w'ikiruhuko rusange mu rwego rwo kwizihiza umunsi ukurikira noheli ku.

Dore uko wamenyekanisha avansi ya gatatu y'umusoro ku nyungu ukoresheje telefone bikorwa n'abasorera ibinyabiziga n'abafite ubucuruzi buto n'ubuciriritse, kanda akanynyeri magana inani urwego, hitamo ururimi wifuza gukoresha hitamo rimwe umusoro w'ikinyabiziga cyangwa kabiri niba uri ari ubucuruzi buto n'ubuciriritse, shyiramo nimero yawe andika pulake y'ikinyabiziga cyangwa wuzuzemo na nimero y'indangamuntu niba ufite ubucuruzi buto.

Repubulika y'u Rwanda, Minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo, Amasaha y'akazi mashya. Minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo iributsa abaturarwanda amasaha y'akazi yavuguruwe. Azatangira gukurikizwa ku wa mbere Mutarama bibiri na makumyabiri na gatatu, ku buryo bukurikira: amasaha y'akazi ni umunani, guhera saa mbili za mu gitondo kugeza saa kumi n'imwe za nimugoroba. Abakozi bazagira isaha imwe hagati ya saa mbiri na saa tatu za mu mugitondo, aho bashobora gukora batari mu biro.

Harabura iminsi itanu kugira ngo umenyekanishe umusoro ku nyungu. Umunsi wa nyuma ni tariki mirongo itatu n'imwe z'ukwa cumi n'abiri bibiri na makumyabiri na kane. Menyekanisha umusoro wawe uno munsi mbere y'uko umunsi wa nyuma ugera kugira ngo wirinde amande.

Amatari y'ingenzi mu kwezi kwa cumi n'abiri .Tariki cumi n'eshanu z' ukwa cumi na bibiri na makumyabiri n'imwe itariki ntarengwa yo kumenyekanisha no kwishyura . Kubamenyekanishije bakanishyura ku gihembwe n'abamenyekanisha bakanishyura buri kwezi. Tariki mirongo itatu n'imwe z'ukwa cumi n'abiri bibiri na makumyabiri na rimwe, itariki ntarengwa yo kumenyekanisha no kwishyura vansi ya gatatu y'umusoro ku nyungu . Tariki mirongo itatu n'imwe z'ukwa cumi n'abiri bibiri namakumyabiri na rimwe, itariki ntarengwa yo kumenyekanisha no kwishyura umusoro ku mutungo utimukanwa.

Imbonerahamwe y'ibyavuye mu bushakashatsi bwa RS bwa cumi na rimwe inkingi umutekano ibipimo mirongo icyenda na gatatu n'ibiceani naka kabiri ku ijana, iyubahirizwa ry'amategeko miro inani n'umunani n'ibice mirongo itani ku ijana, uburenganzira mu bya politiki n'ubwisanzure bw'abaturage mirongo inani n''umunani ku ijana gukorera mu mucyo no kurwanya ruswa mirongo inani n'agatandatu n'ibice mirongo itandatu na bitanu ku ijana.

Inzu isize amabara y'umuhondo, yegeranye n'umunara wubakishijwe ibyuma bikomeye, ushinze mu butaka, hejuru hamanitseho ibikoresho bimeze nk'ingoma bikoreshwa mu itumanaho.

Umunara muremure ukozwe mu byuma ukaba usize amarangi y'umutuku ndetse n'umweru, hakaba hacamo insinga ndende zijyanye amakuru ku bikoresho by'itumanaho bimanitse hejuru ku munara.

Menyekanisha umusoro wawe mbere y'uko igihe kirangira, menyekanisha umusoro w'igice cya gatatu mbere y'uko umunsi wa nyuma ugera, ukaba ugomba kwishyura mbere y'itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwacumi n'abiri bibiri na makumyabiri na rimwe ntutegereze umunsi wa nyuma.

Ipoto ry'igiti rifasheho insinga z'amashanyarazi ndetse n'iza serivisi za murandasi, ikaba ijyana izo nsinga ku yandi mapoto cyangwa se mu ngo z'abantu byegeranye.

Umunara w'icyuma, ushinze mu butaka muremure cyane w'amashanyarazi, ukaba ufasheho insinga z'amashanyarazi zijyana ku yindi minara, cyangwa se zikajyana umuriro mu ngo zituranye n'uwo munara.

Umunara muremure cyane wubakishijwe ibyuma bigiye bisobanye bifashe mu butaka ukaba usize amarangi y'umweru ndetse n'umuhondo haciyemo insinga zijyana ku byuma bimanitse hejuru bikoreshwa mu itumanaho.

Umugabo uri hejuru ku ipoto ry'amashanyarazi, yambaye imyenda y'ubwirinzi ndetse n'ingofero mu mitwe y'umuhondo y'ubwirinzi ari ku ifoto ry'amashanyarazi, iriho insinga z'amashanyarazi zijyana ku yandi mapoto cyangwag se mu ngo z'abantu

Ipoto rifasheho insinga z'amashanyarazi hariho n'itara rimurika umuhanda igihe bugorobye, ryegeranye n'inzu yubakishijwe amatafari ya rukarakara, aho bari gucururiza matela zo kuryamaho.

Umunara muremure cyane wubatswe mu byuma ufasheho insinga z'amashanyarazi zitwara amashanyarazi ku y'indi minara, cyangwa se zigatwara amashanyarazi mu ngo z'abantu begeranye n'iyo minara.

Ipoto riba rishinze ku muhanda rifasheho insinga z'amashanyarazi, izo nsinga zikaba ziba zijya ku yandi mapoto cyangwa se zijyana umuriro mu ngo zegereye iryo poto.

Ipoto riba rishinze mu muhanda rifasheho insinga z'amashanyarazi zitwara amashanyarazi mu nyubako zegereye iryo poto cyangwa se ku yandi mapoto, iryo poto ririka rimanitseho n'itara rimurika mu muhanda igihe bugorobye.

Ipoto rikozwe mu giti, riba rishinze ku muhanda, rifasheho insinga z'umuriro, zijyana amashanyarazi ku yandi mapoto, cyangwa se mu ngo zegereye iryo poto.

Umunara muremure cyane wubakishijwe ibyuma biba bishinze mu butaka bigiye bisobekeranye, ukaba ari umuhanda ufasheho insinga z'amashanyarazi, zikaba zifatishwaho kugira ngo zibashe kugera ku yindi minara cyangwa se bazishyire mu ngo z'abantu zegereye uwo munara w'amashanyarazi.

Umugore n'umugabo umugabo yambaye amadarubindi ikote ry'umweru, n'ipantaro y'umukara umugore akenyeye igitenge ahetse umwana afife n'igikapu cy'ubururu bari kugenda..

Inyubako ifite ibara ry'umuhondo n'umweru, ikaba ifite n'igikoresho gisa umutuku gikoreshwa cyifashisha igihe habaye inkongi y'umuriro, iki gikoresho kikaba kiba gifitemo umwuka ufite ubushobozi bwo kuzimya umuriro.

Umugabo wirabura wambaye ikoti ry'umukara, na karuvati, n'shati yumweru akaba yicaye ku ntebe yumukara afite yambaye kumutwe we indangururamajwi.

Umugore w'inzobe wambaye imyenda y'abacamanza, irimo amabara y'umutuku, umukara, n'umuhondo, akaba ahagaze yemye, inyuma ye hari urukuta rw'umweru.

Icyumba gisizemo amarangi y'umuhondo, harimo intebe zikozwe mu biti, ndetse n'imeza ikozwe mu biti, hicayemo imbaga y'abantu bavanzemo abagabo n'abagore.

Igazeti yo kuri tariki enye z'ukwa munani bibiri na makumyabiri na gatatu, umutwe wa mbere. ubwigenge bw' abanyarwanda mu gufata ibyemezo, no gusumba andi mategeko ku itegeko nshinga. Ingingo ya mbere, inkomoko y'ubutegetsi bw'igihugu.

Inkingi ebyiri zubakishijwe amatafari ya rukarakara hagati yazo harimo umuryango ukozwe mu cyuma w'ibara ry'umukara hejuru hamanitse icyapa cyanditseho igororo rya Rwamagana aho bagororera imfungwa ndetse n'imbohe.

Umugabo wambaye ikote ry'ubururu n'ipantaro yambaye karuvati y'umutuku n'ishati y'umweru, yambaye agapfukamunwa k'umweru, yicaye ku ntebe y'igiti hagati y'abagabo babiri bambaye imyenda y'abacamanza, y'umukara ndetse n'umweru, umwe yambaye agapfukamunwa k'ubururu, undi yambaye ak'umukara.

Igazeti bibiri na cumi n'umunanim tariki ya makumyabiri ukwakenda ,itegeko rya mirongo itanu na kane ryo kuwa cumi n'eshatu z' ukwamunani biri na cumi ryerekeye kurwanya ruswa twebwe KAGAMEPaul perezida wa repubulika y'u rwanda inteko ishingama amategeko yemeje na none natwe duhamije kandi dutangaje itegeko riteye ritya kandi dutegetse ko ryandikwa mu igazeti ya leta ya repubulika y'u rwanda.

Abagabo b'abirabura, bambaye amashati y'iroze, ndetse n'amakabutura y'iroze, bahagaze bari ku murongo, imbere yabo hashinze udutebe, twicayeho umugabo wirabura, n'umugore w'inzobe.

Umugabo uzwi cyane ku mbuga nkoranyambaga witwa Fatakumavuta, yambaye amadarubindi n'ishati y'umukara, yambaye amapingu, afite icupa ry'amazi akurikiwe n'umupolisi, ufite imbunda y'umukara.

Umugore wambaye ikanzu y'umutuku irimo amabara y'umuhondo yambaye agapfukamunwa k'ubururu, yicaye ku meza y'igiti ari kumwe n'umugabo wambaye imyenda y'abavoka irimo ibara ry'umukara ndetse n'umweru.

Umugore udafite imisatsi wambaye amadarubindi, yambaye imyenda y'iroze y'imfungwa, akaba yicaye ku ntebe ari mu nzu irimo n'imbaga y'abantu benshi.

Umugore wirabura wambaye amadarubindi afite umusatsi mukeya yambaye imyenda y'abacamanza irimo amabara y'umutuku, umukara n'umuhondo akaba ahagaze yemye. Inyuma ye hari urukuta rw'umweru.

Abantu babiri bicaye, bambaye imyenda y'abacamanza irimo amabara y'umukara n'umweru, bambaye n'udupfukamunwa tw'ubururu, bicaye imbere yabo hari imeza iteretseho mudasobwa z'umukara.

Imbaga y'abantu benshi bavanzemo abagabo n'abagore bicaye abagore benshi bambaye ibitambaro mu mutwe, imbere yabo hahagaze umugabo wambaye ikoti ry'umukara n'ipantaro y'umweru afite igipapuro mu ntoki.

Abagore babiri bambaye imyenda y'iroze y'imfungwa barimo hagati y'abagabo babiri b'abacamanza, bambaye imyenda y'umukara n'umweru imbere yabo hari imeza iteretseho ibitabo na mudasobwa.

Umugabo wambaye amadarubindi wirabura akaba yambaye imyenda y'ababacamanza, irimo amabara y'umutuku, umweru n'umukara ahagaze yemye inyuma ye hari urukuta rw'umweru.

Umugabo wirabura wambaye imyenda y'abacamanza isa n'umutuku irimo ibara ry'umuhondo, akaba ahagaze yemye inyuma ye hari urukuta rw'umweru.

Inzu yo gukoreramo inama ikaba ari inzu irimo intebe z'ibiti, hicayeho abantu bavanzemo abagabo n'abagore, imbere yabo hari umugabo wicaye mu ntebe y'umukara imbere ye hari akameza, hateretseho indangururamajwi ndetse n'icupa ry'amazi yo kunywa.

Abagabo babiri b'abirabura, umwe yambaye amalineti y'umukara undi yambaye isaha ku kaboko, bakaba bambaye imyenda y'abacamanza ifite ibara ry'umukara ndetse n'umweru, bafashe inkoni mu biganza byabo.

Umugore wirabura wambaye amadarubindi y'umukara, akaba afite umusatsi mukeya, yambaye imyenda yabacamanza irimo amabara y'umutuku n'umuhondo, ahagaze yemye; inyuma ye hari urukuta rw'umweru.

Umugabo w'umwirabura wambaye amadarubndi y'umukara yambaye n'imyenda y'abacamanza irimo amabara y'umutuku, umukara n'umweru, ahagaze yemye inyuma ye hari urukuta rw'umweru.

Umugabo wambaye imyenda y'abacamanza irimo ibara ry'umutuku, umweru, ndetse n'umukara, akaba ahagaze yemye, akaba yambaye ingofero y'umukara, iriho ibara risa na zahabu.

Inshamake y'icyemezo. Iyo perezida w'Urukiko rw Ikirenga asuzumye raporo yashyikirijwe ku urubanza rw'akarengane, akemeza ko rwongera kuburanishwa urukiko ruburanisha urubanza mu mizi bundi bushya, nta zindi nzitizi zitanzwe zatuma urubanza rutaburanishwa mu mizi, uretse inzitizi ndemyagihugu.

Umugabo w'umwirabura yambaye ikote ry'ubururu ndetse n'ishati y'umweru na karuvate, akaba afite umusatsi mukeya ahagaze yemye inyuma ye hari urukuta rw'umweru.

Imodoka iri kugendera mu muhanda w'umukara, urimo n'ibindi binyabiziga, ikaba ari imodoka ifite imyanya ine, ifite ibara ry'umukara, inyuma yayo iri kubisikana n'igikamyo cy'abapolisi kigenderamo abapolisi.

Ibikoresho bibiri bifite amabara y'umutuku, handitseho n'amagambo mu ibara ry'umweru, bikoreshwa igihe habaye inkongi y'umuriro, bikaba biba birimo umwuka ufite ubushobozi bwo kuzimya inkongi y'umuriro.

Imodoka ifite amabara y'ubururu ndetse n'umweru, ikaba yanditseho polisi, ikaba ari imodoka ishinzwe gutwara abapolisi bicaye inyuma bafite n'intwaro zabo.

Umugozi ufite ibara ry'umutuku, muremure cyane, usangwa mu nyubako zitandukanye, ukaba wifashishwa igihe habaye inkongi y'umuriro, ukaba ucamo amazi yo kugira ngo azimye inkongi y'umuriro.

Ibikoresho bifite irangi ry'umutuku byanditseho amagambo mu nyuguti z'umweru, bikaba ari ibikoresho bikoreshwa igihe habaye inkongi y'umuriro. Bikaba birimo umwuka ufite ubushobozi bwo kuba wazimya umuriro igihe wagurumanye.

Ibikoresho bibiri bikozwe mu cyuma, kimwe gifite ibara ry'umutuku ikindi gifite ibara ry'umweru, akaba ari ibikoresho bikoreshwa igihe habaye inkongi y'umuriro, bikaba biba birimo umwuka ufite ubushobozi bwo kugabanya cyangwa kuzimya umuriro.

Imodoka y'umukara ihagaze yanditseho ko ari iyo ku Muhima ishinzwe isuku n'umutekano, ikaba ihagaze mu mwanya imodoka zagenewe guhagararamo, hirya yaho hari ahamanitse ikigega cy'amazi ndetse imbere yayo hari ibyatsi bya pasiparume.

Ibikoresho bibiri bisa n'ibara ry'umutuku akaba ari ibikoresho bikoreshwa igihe habaye inkongi y'umuriro. Ibyo bikoresho bikaba bifite ubushobozi bwo kuzimya umuriro igihe wafashe ahantu.

Icyapa kiriho ikirangantego cy'u Rwanda ndetse n'icya polisi y'u Rwanda cy'umweru, cyanditseho ko aho ari ibitaro bya polisi biherereye Kacyiru. Akaba ari ibitaro bijyanwamo abapolisi barwaye.

Umugabo wambaye imyenda y'umukara irimo uturongo tw'icyatsi, akaba akora mu kurinda inkongi y'umuriro gutwika ahantu, akaba ari kwigisha imbaga y'abantu uburyo wazimya ishyiga rya gaze igihe ryagurumanye.

Akabati k'icyuma kaba gasize irangi ry'umutuku, mo imbere haba harimo umupira munini muremure cyane, ukoreshwa igihe habaye inkongi y'umuriro kuko aba ari umupira ufite ubushobozi bwo gucamo amazi ukawugeza aho umuriro wafashe, ubundi ugapurizaho amazi ubundi umuriro ukazimamu.

Imodoka y'umweru irimo amabara y'umukara, ihagaze yegeranye n'izindi modoka, ikaba iri mu bwoko bwa toyota, ikaba ari imodoka ishobora gukoreshwa itwara imizigo.

Umugabo wambaye imyenda y'ubwirinzi y'ubururu harimo n'imirongo y'icyatsi kibisi, akaba afite umugozi ucamo amazi akaba ari kwigisha abana batoya uburyo bashobora kuwukoresha bazimya inkongi y'umuriro.

Inzu isize amarangi y'umuhondo, ifite amabati atukura n'imiryango isa n'icyatsi, ikaba ari inzu ikorerwamo na polisi, ishami riherereye ku Gisozi.

Imodoka nini ifite amabara y'ubururu, ikaba ari imodoka ishinzwe gutwara imbohe izivana nko kwa muganga, cyangwa se aho zagiye kuburanira mu rukiko, ikaba ari imodoka ikomeye ifite ubwirinzi ku buryo imbohe zitabasha gutoroka.

Igikoresho gifite ibara ry'umutuku gikoreshwa igihe habaye inkongi y'umuriro, kiba kiba kirimo umwuka ufite ubushobozi bwo kuzimya umuriro igihe hari ahantu wafashe uri kugurumana.

Inzu igeretse inshuro nyinshi iherereye ku Muhima, akaba ari inzu ya polisi y'u Rwanda, ikaba ikorerwamo ibizamini byo gutwara imodoka, ukoresheje mudasobwa.

Umugabo wirabura wambaye ikoti ry'ubururu ndetse na karuvati y'umutuku n'ishati y'umweru, yicaye mu ntebe yegamweho y'umukara imbere ye hari ameza ateretseho amaboko ye.

Umugore wambaye amadarubindi, yambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'ubururu, akaba yambaye isaha ku kaboko ke k'iburyo yicaye ku ntebe y'umukara yegamirwaho, akaba areba imirari.

Inzu ifite amabati y'umutuku, yo isize amarangi y'umweru, ikaba imbere yayo ifite amahema y'ibara ry'umweru, harimo abantu benshi batandukanye ndetse n'ibinyabiziga bitandukanye.

Umugore wambaye ikoti ry'icyatsi ishati y'umweru n'umukara n'ipantaro y'umukara yicaye ku ntebe y'umukara yegamyeho, hirya ye hari umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro n'inkweto z'umukara nawe yicaye, ku ruhande rwabo hari akameza kariho amacupa y'amazi.

Umugore wambaye imyenda y'umweru irimo uturongo tw'umukara, yambaye amadarubindi yicaye mu ntebe ikozwe mu giti ifite amabara y'umweru, ari mu nzu ifite amarido.

Abagabo babiri n'abagore babiri bakenyeye imikenyero ya kinyarwanda n'abagabo bambaye amakote harimo uwambaye ikoti ry'umukara n'ipantaro y'umukara ndetse n'undi wambaye ikoti ry'ubururu n'ipantaro y'ubururu bazamuye ikiganza cyabo cy'iburyo bafashe ku idarapo ry'u Rwanda barimo kurahira.

Icyumba gisize irangi ry'umweru cy'inama kirimo imbaga y'abantu benshi bavanzemo abagabo n'abagore, bamwe bafite amakayi mu ntoki zabo n'amakaramu barimo kwandika, abandi imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi y'inyange.

Perezida Polo Kagame ari gutera intambwe yambaye ishati irimo amabara atandukanye ndetse n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara, akaba yambaye n'amadarubindi y'umukara.

Perezida Paul Kagame akaba yari ari kwiyamamaza muri bibiri na makumyabiri na kane mu matora yo kuba Perezida nanone akikijwe n'imbaga nyamwinshi ifite utudarapo turiho amabara y'ubururu, umutuku n'umweru handitseho ishyaka rye "FPR".

Abagabo batatu bahagaze imbere y'imbaga, harimo n'umugabo umwe wiyamamarije mu matora yo kuba perezida wa repubulika y'u Rwanda muri bibiri na makumyabiri na kane, bakaba bamwita Mpayimana Philipe, yambaye ikote ry'ubururu n'ipantaro y'ubururu n'ishati y'umweru.

Perezida Paul Kagame wa repubulika y'u Rwanda yambaye amadarubindi, ishati impeta ku kaboko ke k'ibumoso ndetse n'umukandara w'umukara, ari mu cyumba cy'itora yagiye gutora perezida wa bibiri na makumyabiri na kane wa repubulika y'u Rwanda.

Abagore bambaye imikenyero ya kinyarwanda ,ku mpande zabo z'ibumoso hari idarapo ry' igihugu cy'u Rwanda, bazamuye amaboko yabo y'iburyo barimo bararahira.

Umwe mu bakandida biyamamazaga mu matora ya perezida w'u Rwanda, bibiri na makumyabiri na kane bita Mpayimana Filipe, yambaye ikote ry'ubururu, ishati y'umweru, na karuvati, n'ipantaro y'ubururu ahagaze, ku ruhande rwe hahagaze undi mugabo hanicaye n'abagore babiri.

Umugore wirabura yambaye ikoti ndetse n'ishati y'umweru, ari kumwenyura yambaye n'amaherena, akaba ari umugore ukora mu nzego z'ubuyobozi mu Rwanda, bamwita MUSHIKIWABO.

Imbaga y'abantu benshi ivanzemo abagabo n'abagore bafite utudarapo turiho amabara y'ubururu, umutuku n'umweru twanditsemo inyuguti FPR, akaba ari ishyaka rya perezida Paul Kagame w'u Rwanda.

Umugabo w'umukandida mu matora ya perezida wa repubulika y'u Rwanda muri bibiri na makumyabiri na kane, akaba yitwa Muhayimana Filipe akaba yambaye ishati y'umukara ndetse anakenyeye imikenyero w'umuhondo, ari kuvugira ku ndangurura majwi.

Abagabo batatu umwe yambaye umupira w'umweru n'ipantaro yikoboye, undi yambaye ikote ry'ubururu, karuvati y'umukara ndetse n'ishati y'umweru akaba ari umukandida mu matora ya perezida wa Repubulika y'u Rwanda bibiri na makumyabiri na kane bamwita Mpayimana Philippe.

Abagabo bambaye amakoti y'umukara karuvati ndetse n'amapantaro y'umukara, babiri bambaye amadarubindi y'umukara, iruhande rwabo hahagaze umugore wambaye amadarubindi na we n'igitenge.

Umwe mu bakandida biyamamarije kuba perezida w'u Rwanda muri bibiri na makumyabiri na Kane Mpayimana filipe ahagaze afite indangururamajwi mu ntoki ze ahagararanye n'abandi bantu harimo abagore babiri ndetse n'undi mugabo we.

Umugore wirabura uteze igitambaro cy'ubururu mu mutwe yambaye ikanzu y'umweru ndetse yambaye n'umuringa mu ijosi, akaba yambaye n'amaherena ku gutwi.

Abagore batandatu bicaye ku ntebe ziriho ibitambaro by'umweru, batanu muri bo bambaye imipira yanditseho Green Party akaba ari ishyaka ry'umwe mu bakandida biyamamaje mu matora ya perezida bibiri na makumyabiri na kane.

Umugore wambaye amadarubindi w'inzobe, afite imisatsi isutse akaba yambaye ikote ry'ubururu, yicaye ku ntebe y'umukara yegamwaho, imbere ye hari icupa ry'amazi yo kunywa y'inyange.

Imbaga y'abantu benshi bavanzemo abagabo n'abagore batandukanye, bicaye ku ntebe, imbere yabo hari abagabo batatu; babiri bambaye amakoti; undi yambaye umupira w'umweru, hakaba harimo umukandida wiyamamarizaga kuba perezida muri bibiri na makumyabiri na kane bita Mpayimana Philippe.

Umugore wambaye amadarubindi y'umukara, ndetse akenyeye imikenyero ya kinyarwanda. Azamuye akaboko ke k'iburyo, afatishije akaboko ke k'ibumoso idarapo ry'u Rwanda, akaba ari kurahira.

Umukandida mu matora ya perezida, bibiri na makumyabiri na kane, Mpayimana Philippe, ahagaze yambaye ikoti ry'ubururu, karuvate y'umukara ndetse n'ishati y'umweru n'ipantaro y'ubururu, ahagaze hagati y'abagabo babiri, umwe wambaye ikoti ry'ubururu na karuvate, undi yambaye umupira w'umweru, uriho ifoto ye.

Icyumba cyo gukoreramo inama gisizemo amarangi y'umuhondo, harimo intebe nyinshi z'umukara zo kwegamwaho, harimo n'ameza manini hicayemo abantu bavanzemo abagabo n'abagore, imbere yabo hateretse amacupa y'amazi yo kunywa.

Perezida Paul Kagame yambaye ikoti ry'umukara n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara yambaye karuvati ndetse ishati y'umweru yambaye n'amadarubindi y'umukara, inyuma ye hari madamu Kagame yambaye imikenyero y'ubururu n'umupira w'umukara.

Igishushanyo kirimo akarere, umurenge, umudugudu n'akagari bihujwe n'uturungo tw'ubururu tw' imyambi bigana ku ishyirahamwe ry'abahinzi hariho akarongo k'u umwambi w'ubururu kajyana kuri koperative.

Imodoka yo mu bwoko bw'igikamyo, ishobora gufatishwaho za rumoriki, ikaba ifite ibara ry'umweru, ikaba ifasheho imashini igenda ivanga umucanga n'amabuye.

Imodoka ifite ibara ry'ifeza, ikaba ifite imiryango ibiri gusa, iri kugendera mu muhanda w'umukara, ikaba ari imodoka ikoreshwa igihe umuntu arimo kwiga gutwara ikinyabiziga cy'imodoka.

Imodoka yo mu bwoko bw'igikamyo, ifite amarangi y'umweru, ikaba ari imodoka ifite ubushobozi bwo kwikorera imizigo iremereye, harimo umucanga n'amabuye bikoreshwa mu bwubatsi.

Imodoka ifite ibara ry'icyatsi yo mu bwoko bwa toyota ikaba ari imodoka itwara imizigo ikaba iriho imbaho zikoreshwa zikora intebe cyangwa se zubaka amazu iri mu muhanda w'umukara hirya yayo hari amapikipiki atwaye abagenzi.

Ipikipiki igendera ku mapine atatu isa n'ibara ry'ubururu ikaba ifite umwanya wagenewe gushyirwamo imizigo ikaba ari ipikipiki ishobora gutwara imizigo myinshi.

Amapikipiki atatu agendera ku mapine atatu, harimo afite ibara ry'ubururu, hagati yayo hakaba hahagaze umugabo wirabura yambaye ingofero y'umutuku ndetse n'ipantaro y'umukara n'umupira w'umukara n'umutuku.

Imodoka yo mu bwoko bw'igikamyo, isize ibara ry'umweru harimo n'amabara y'ubururu iri kugendera mu muhanda w'umukara, inyuma yayo hari ipikipiki iri kugenda mu cyerekezo kimwe n'imodoka.

Imodoka nini ifite amabara y'umweru n'umuhondo, ikaba ari imodoka itwara abagenzi ibavana muri gare cyangwa ku cyapa ibageza aho bashaka kugera, ikaba ifasha abatagira ibinyabiziga kugenda.

Imodoka ndende cyane zifite amabara y'umweru ndetse n'ubururu, zifite ubushobozi bwo gutwara imizigo iremereye cyane itabashwa gutwarwa n'imodoka zindi ntoya, zikaba ziri kugendera mu muhanda...

Ipikipiki igendera ku mapine atatu, ifite ibara ry'ubururu, handitseho ko yakorewe mu Rwanda, ikaba ari ipikipiki ifite ubushobozi bwo gutwara imizigo myinshi kandi iremereye. Iyo umuntu afite imizigo yo gutwara itajya ku ipikipiki isanzwe, atega iyi pikipiki ifite umwanya wo kwikorera imizigo myinshi.

Umuhanda w'umukara ugenderamo ibinyabiziga bitandukanye, harimo nka moto amagare ndetse n'imodoka, hakaba harimo ikinyamitende kikiriho amakaziye ya fanta cyangwa se ibisindisha, akaba ari kugenderamo n'umugabo wambaye umupira w'umukara ndetse n'ipantaro n'inkweto.

Imodoka y'igikamyo ifite ibara ry'umweru iriho shitingi y'umuhondo ipfunyitse imizigo itwaye ikaba ari imodoka iri kugendera mu muhanda w'umukara hirya yayo hari ipikipiki ndetse n'igare.

Imodoka yo mu bwoko bw'ikamyo itwara imizigo itandukanye harimo nk'umucanga, amabuye n'ibindi biremereye. Iri mu muhanda w'umukara, imbere yayo hari umumotari uri ku ipikipiki ifite agasanduku k'umutuku.

Imodoka iri mu muhanda w'umukara yo mu bwoko bw'igikamyo ikaba itwara imizigo, ikaba ifite ibara ry'umutuku ipakiye imizigo ipfunikishijwe shitingi y'umukara, iruhande rwayo hari ruhurura.

Imodoka ifite amabara y'ubururu ndetse n'umuhondo, ikaba ipakiye shitingi y'amabara y'ubururu n'umweru. Iri kugendera mu muhanda w'igitaka, imbere yayo hakaba hari amapikipiki agendera ku mapine atatu.

Imodoka ifite amabara y'umweru y'igikamyo ifite ubushobozi bwo gutwara imizigo myinshi kandi iremereye cyane, ikaba iri kwamamaza amavuta y'abagore yo kwisiga.

Umuhanda w'umukara uciyemo uturongo tw'umweru ndetse n'utw'umuhondo, wagenewe kugendwamo n'ibinyabiziga harimo imodoka, ibikamyo n'amapikipiki, hakaba hari gucamo ipikipiki iriho umuyobozi atwaye umugenzi.

Imodoka nini cyane ifite amabara y'umweru n'ubururu ndetse n'umukara iri kwamamaza banki ya Kigali iri kugendera mu muhanda w'umukara itwaye abagenzi ibajyanye aho bagana.

Imodoka y'umweru n'umukara ikaba ari imodoka itwara abagenzi ibavana ahantu hamwe ibageza ahandi bashaka kugera, ikaba ihagaze muri gare aho bafatira imodoka zijya mu byerekezo bitandukanye, bitewe n'aho umugenzi ashaka kugana.

Imodoka ifite amabara y'icyatsi, ubururu, n'umweru itwara abagenzi mu ngendo za kure harimo kujya, kuva mu ntara imwe ujya muy'indi, ikaba ihagaze mu muhanda w'umukara irimo abagenzi.

Imodoka yo mu bwoko bw'igikamyo isize amabara y'ubururu iriho ibyuma bisa ni feza inyuma iri mu muhanda wigitaka inyuma yayo hari ikindi gikamyo gisize amabara y'umutuku.

Imodoka y'igikamyo ifite ibara ry'umutuku, iri kugendera mu muhanda w'umukara, ikaba ari imodoka ishobora gutwara imizigo iremereye cyane, harimo umucanga ndetse n'amabuye bikoreshwa mu bwubatsi.

Imodoka nyinshi ziri mu muhanda w'umukara harimo igikamyo cy'umutuku gitwara imizigo, n'indi y'igikamyo ntoya kuri y'umutuku y'icyatsi irimo abantu, hakaba n'izindi zifite ibara ry'umuhondo n'umweru zitwara abagenzi ndetse hakaba hari n'amapikipiki atwaye abagenzi akaba ari mu ijoro zicanye amatara.

Umuhanda w'umukara uciyemo imirongo y'umuhondo ndetse n'iy'umweru ku ruhande hari gucamo ibinyabiziga bitandukanye harimo amapikipiki ndetse hirya yayo hari urugo rufite ibara ry'umweru.

Imodoka yo mu bwoko bw'igikamyo ifite ubushobozi bwo gutwara imizigo iremereye harimo nk'umucanga n'amabuye bikoreshwa mu bwubatsi, ikaba ifite ibara ry'umutuku iri kugendera mu muhanda w'umukara yikoreye imizigo.

Imodoka nini cyane ifite irange ry'umutuku, ikaba yaragenewe gutwara imizigo iremereye cyane, ifite ubushobozi bwo gutwara umucanga ndetse n'amabuye, n'indi mizigo, ikaba ikoreshwa mu bwubatsi, ikaba iri kugendera mu muhanda w'umukara.

Umugore wambaye igitambaro cy'iroze mu mutwe n'ikanzu y'umukara, akaba ari muri gare ari aho bicara abagenzi bategereje imodoka. Hirya ye hari imodoka y'ubururu ndetse n'umweru ishinzwe gutwara abagenzi, ibavana muri gare ibageza ahandi bashaka kugera.

Imodoka ndende cyane igendera ku mapine arenze atandatu, ikaba ifite contineri inyuma yayo ifite ibara ry'ubururu ikaba ishyirwamo imizigo ndetse n'ibicuruzwa.

Ipikipiki igendera ku mapine atatu, ifite ibara ry'ubururu ikaba iri kugendera mu muhanda w'umukara, iyi ipikipiki ikaba ifite ubushobozi bwo gupakiramo imizigo myinshi kandi iremereye.

Imodoka nini ifite amabara y'ubururu, umweru ndetse n'umukara, ikaba ari imodoka yagenwe kugenderamo abagenzi bava ku cyapa cyangwa bava muri gare ikabageza ahandi hose bashaka kugera.

Imodoka nini yo mu bwoko bw'Igikamyo, ifite ibara ry'umutuku, ikaba ari imodoka ifite ubushobozi bwo kuba yatwara ibintu biremereye cyane, harimo umucanga ndetse n'amabuye yubakishwa amazu, iri kugendera mu muhanda w'umukara.

Igikamyo cyo mu bwoko bwa shakimani gifite amabara y'umweru ndetse n'umukara kiri kugendera mu muhnda w'umukara gifite ubushobozi bwo kwikorera ibintu biremereye harimo amabuye n'imicanga yo gukoresha mu bwubatsi kiri kubisikana n'imodoka y'ubururu y'abagenzi n'indi y'umukara y'imyanya ine.

Muri gare haparitsemo imodoka nini zifite amabara y'ubururu n'umweru n'umukara, akaba ariho umuntu ajya igihe ashaka gutega imodoka kugira ngo imugeze ahandi hantu, akaba aba afite ikarita akozaho amafaranga y'urugendo bakayakuraho.

Abana babiri b'abazungu ndetse n'umugabo umwe wirabura bari ku kinyamitende, bari gutwara bishimye. Hakaba harimo umwana wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'ikoboyi.

Umuhanda uherereye mu mujyi wa Kigali, udacamo n'imodoka cyangwa se ikinyabiziga icyo ari cyo cyose wagenewe abanyamaguru gusa, uba ufite n'umwanya wo kwicaramo igihe umunyamaguru arushye, ukaba ukikijwe n'amazu ageretse inshuro nyinshi akorerwamo ubucuruzi butandukanye.

Umuhanda w'icyatsi uciyemo imirongo y'umweru utagenderamo ikinyabiziga na kimwe, wakorewe abanyamaguru bakora imyitozo ngororamubiri kugirango bazajye babikora neza ntawe ubahungabanya.

Umuhanda w'icyatsi uciyemo imirongo y'umweru, wagenewe abanyamaguru bari mu myitozo cyangwa se siporo, hakaba hadacamo ibindi binyabiziga. Hirya yawo hakaba hari ubusitani burimo pasiparumu bwiza cyane, hirya yawo hakaba hari amazu y'umweru n'amabara y'umukara, ageretse inshuro imwe.

Ubwatsi butarimo ikintu na kimwe hakaba hashobora gukinirwamo imikino itandukanye cyangwa se gukoreramo ibikorwa bitandukanye nko gukiniramo imikino y'abana nko gukina umupira ndetse no gusiganwa.

Icyapa gifite umuzenguruko w'umutuku ndetse ubuso bw'umweru, handitsemo mirongo itandatu. Ibi bikaba byereka umuyobozi w'ikinyabiziga yuko aha ngaha iyo ahageze atagomba kurenza umuvuduko wa mirongo itandatu ku kinyabiziga atwaye.

Umugabo uhagaze mu kayira k'abanyamaguru, afite igikapu cy'umukara yambaye umupira w'icyatsi ndetse n'pantaro y'umukara, inyuma ye hari icyapa kinini cyanditseho murakaza neza muri Repubulika y'u Rwanda, Akarere ka Rusizi.

Icyapa giteye mu ruziga gifite umuzenguruko w'umutuku ndetse gifite ubuso bw'umweru, harimo inyuguti ya P haciyemo umurongo w'umutuku, bisobanuye y'uko aho usanze icyapa kimeze gutya imodoka iba itemerewe kuhahagarara.

Umuhanda w'umukara urimo imirongo y'umweru yerekana aho abanyamaguru bambukira harimo ibinyabiziga byinshi, harimo amapikipiki ndetse n'imodoka zitwara abagenzi, hamanitsemo imashini yerekana uburyo umuhanda ukoreshwa, n'igihe utemerewe gukoreshwa kugirango ibinyabiziga bitakora impanuka.

Icyapa gishinze mu muhanda gifite umuzenguruko w'umutuku ubuso bw'umweru cyanditsemo umubare mirongo itandatu, bikaba byerekana umuyobozi w'ikinyabiziga ko igihe ageze muri uyu muhanda atagomba kurenza umuvuduko wa mirongo itandatu.

Icyapa gifite umuzenguruko w'umutuku, gifite ubuso bw'umweru, harimo ishusho y'igare iciyemo umurongo w'umutuku, ibi ngibi byereka abanyonzi b'amagare cyangwa se abantu bose bari ku magare yuko aha ngaha hatemerewe gucibwa n'ikinyamitende.

Icyapa gishinze hirya y'akayira k'abanyamaguru cyikaba ari icyapa gifite ubuso bw'ubururu n'umuzenguruko w'umweru m'imbere handitsemo amagambo kikaba gisobanuye yuko imbere hari ikiraro.

Icyapa gifite umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru, harimo ishusho y'umukara yerekana imodoka y'igikamyo gicishijemo umurongo w'umutuku, ibi bisobanura ko uyu muhanda udacamo imodoka z'ibikamyo zipakira imizigo myinshi.

Icyapa cya mpandeshatu gifite umuzenguruko w'umutuku ndetse n'ubuso bw'umweru harimo umuntu ari kwambuka kumirongo y'umweru, ibi bikaba byekana umuyobozi w'imodoka ko imbere hari imirongo y'umweru mu muhanda w'umukara, yerekana ko agomba kubanza akareka abanyamaguru bagatambuka.

Inzu igeretse isize ibara ry'umweru ikaba ifite amadirishya asize ibara ry'umukara, ikaba iri mu rugo rwubakishijwe amatafari ahiye hejuru hariho senyenge inyuma y'urugo hari ibyatsi ndetse n'ibiti ikaba iherereye muri Kanombe.

Inzu zigeretse inshuro imwe, zifite amabati atukura zisize amarangi y'umweru n'umukara, zikaba ziri mu bipangu, imbere yabyo haca imihanda y'umukara icamo ibinyabiziga nk'imodoka n'amapikipiki n'ibikamyo.

Inzu igeretse inshuro eshatu ikaba ari inzu ikorerwamo ubucuruzi butandukanye, harimo imiryango irimo serivisi zitandukanye hari ahacururizwa ibikoresho by'ikoranabuhanga, ahacururizwa ibiryo ndetse n'ahacururizwa imiti. Imbere yayo hahagaze imodoka z'umweru zitandukanye.

Inyubako igeretse inshuro eshatu isize amarangi asa n'igitaka ndetse n'umweru ikaba irimo amazu yo kubamo ku bantu bashaka gukodesha.

Ifoto yerekana ikibuga cy'imyidagaduro giherereye i Remera akaba ari cyo kibuga kinini mu Rwanda k'imyidagaduro kikaba kivuguruye vuba ,kikaba gikikijwe n'ingo z'abantu harimo izigeretse.

Inzu yubakishijwe amatafari ya rukarakara isize amarangi y'umweru ndetse n'amadirishya y'umukara ifite amabati y'umutuku ikaba igeretse inshuro enye hirya yayo hakaba hari ubwatsi buteyemo n'ibiti.

Inzu igeretse inshuro eshatu ikorerwamo ubucuruzi n'imirimo itandukanye, harimo za banki, ubucuruzi bw'amaduka ndetse n'ibindi bikoresho imbere yabo imbere yaho hahagaze imodoka z'amabara atandukanye harimo iz'umukara.

Inzu igeretse inshuro enye yubatswe mu buryo bwa kijyambere, ikaba yubatswe ikoresheje amatafari ya rukarakara, ifite imiryango y'umukara; ikaba imbere yaho hari ibyatsi byinshi biteyemo n'ibiti.

Umuhanda w'umukra ukikijwe n'ibipangu byubakishijwe mu matafari ya rukarakara, bikaba birimo amazu ageretse inshuro imwe harimo n'ibigega by'amazi ndetse ku ruhande rw'umuhanda hateye ibiti.

Inzu igeretse inshuro ebyiri, isize amarangi asa n'igitaka, ifite amadirishya y'umweru, hejuru yayo hari ikigega cy'amazi. Imbere ya yo hari umuhanda w'umukara uri gucamo ipikipiki.

Inzu zifite amabati y'umutuku, inyinshi muri zo zigeretse inshuro imwe, akaba ari inzu zegeranye harimo n'ibiti, hagati ari inzu zo guturamo.

Inzu igeretse inshuro enye ikaba isize ibara ry'icyatsi, ikaba ifite urupangu rw'umukara, ikaba imbere yayo hari umuhanda w'umukara ucamo imodoka.

Inzu nyinshi zisize amabara y'umutuku ku mabati zikikije ikibuga c'yindege, ku kibuga cy'indege akaba ariho umuntu ajya gutegera indege igihe ashatse kujya mu bihugu bya kure cyane cyangwa se bya hafi yihuse.

Inzu igeretse inshuro ebyiri, ikaba isize amarangi y'umweru n'umuhondo, ikaba ikorerwamo ubucuruzi butandukanye. Imbere yayo hakaba haparitse imodoka harimo izisa n'umukara ndetse n'umutuku.

Ubwatsi bunini cyane hateyemo n'ibiti, hirya yabwo harimo amazu menshi harimo ahageretse, afite amabara y'umweru n'umuhondo, amabati yayo asize amarangi y'umutuku.

Amazu afite amabati y'umutuku ndetse acucitse, ari amazu yo kubamo y'abantu harimo n'ageretse akikijwe n'ishyamba ririmo ibiti byinshi cyane.

Amazu menshi afite amabati y'umutuku asize amarangi y'umuhondo ndetse harimo n'ageretse, akaba ari amazu akikijwe n'ibiti, aherereye muri Kanombe i Kigali.

Inzu isize amarangi y'umweru, ifite amabati y'umutuku, ikaba ari inzu igeretse inshuro imwe, ikaba izengurutsweho n'urukuta rwubakije amatafari ya rukarakara.

Umuhanda w'umukara uri kugenderamo imodoka isa n'ifeza, hiryayo hari inyubako yubakishijwe amatafari ya rukarakara igeretse inshuro eshatu, ikaba ikorerwamo ubucuruzi butandukanye harimo n'ubw'ibiryo.

Umuhanda w'umukara uri guturukamo imodoka yo mu bwoko bw'igikamyo ifite ibara ry'ubururu, ikaba ipakiye imizigo myinshi ikaba igiye kwinjira mu ihuriro ry'indi mihanda.

Ihuriro ry'umuhanda w'umukara harimo uturongo tw'umweru twereka umugezi w'amaguru ko ashobora kwambuka umuhanda ageze ahangaha. Aha bikaba byereka umuyobozi w'imodoka yuko iyo ahageze agomba guhagarara akareka umugenzi w'amaguru agatambuka.

Umuhanda w'umukara uherereye Kicukiro mu Gatenga, akaba ari umuhanda uhagazemo imodoka nini z'ibikamyo zikoreye imizigo myinshi cyane, ukaba ari umuhanda ugana aho basorera ibicuruzwa byavuye hanze y'igihugu majerwa.

Imirongo y'umweru iba iciye mu muhanda w'umukara yereka abanyamaguru aho bashobora kwambukira igihe bashaka kuva mu gice kimwe cy'umuhanda bajya mu kindi, ikanereka umuyoboozi w'amakuru yuko agomba kubanza akareka abanyamaguru bagatambuka ubundi akabona gukomeza.

Imodoka y'umutuku ntoya ifite imiryango ibiri iri kugendera mu muhanda w'umukara, iri kubisikana n'indi modoka ifite ibara ry'ifeza yo iri kugana mu kindi cyerekezo imodoka y'umutuku ivuyemo.

Imodoka ifite amabara y'ubururu, umweru, n'umukara, ikaba ari imodoka ndende ikora akazi ko gutwara abagenzi bashaka kugera iyo bajya batagenze n'amaguru kandi nta kindi kinyabiziga bafite, ikaba iri kugera mu muhanda w'umukara, hejuru yayo hari ikiraro cy'umukara na cyo gicaho ibinyabiziga.

Umuhanda w'ikiraro uca hejuru y'indi mihanda y'umukara, ukaba ucaho imodoka harimo n'ibikamyo ndetse n'amapikipiki, munsi yaho nanone hagacamo imodoka z'abagenzi, ibikamyo n'amapikipiki.

Imirongo y'umweru iba iciye mu muhanda w'umukara igaragaza aho abanyamaguru bagomba kwambukira, ibi ngibi iyi mirongo iyo umuyobozi w'ikinyabiziga ayibonye amenya yuko igihe hari umunyamaguru ukeneye kwambuka agomba kubanza agacaho ubundi umuyobozi w'ikinyabiziga agakomeza.

Imirongo y'umweru iba isize mu muhanda w'umukara yereka abagenzi b'amaguru aho bashobora kwambukira igihe bashaka kuva mu gice kimwe cy'umuhanda bajya mu kindi, ikanereka umuyobozi w'ikinyabiziga yuko iyo ageze hano agombabanza akareka umunyamaguru agatambuka.

Agahanda k'abanyamaguru kaba kegeranye n'umuhanda w'umukara ucamo ibinyabiziga, akaba ari agahanda kagendwaho n'abanyamaguru gusa. Iruhande rwako hakaba hari icyapa cyanditseho ishuri, kereka umuyobozi w'ikinyabiziga ko imbere hari ishuri, agomba kwitwararika atagonga abanyeshuri.